Umurima w'intoryi za kizungu, urimo umumama uri kuzisoroma afite akabasi k'ubururu, yasoromye intoki nyinshi zikuzuye, yambaye ingofero n'umupira w'umukara, ambababi y'intoryi arasa icyatsi intoki zifite ibara ry'umweru.

Umurima urimo umugabo uri guhinga ari gutabira, yafashe ibyatsi abibanza hanze agatwikirizaho ibitaka, yambaye ubusa n'ipantaro ayizinze, afite isuka y'ingimbi, amaguru ye arasa nabi.

Umurima uteyemo ibiti bikiri bitoya biteye ku murongo, ni umurima munini cyane uhinze neza utarimo ibyatsi, iruhande rwawo hari amazu yubatse neza menshi.

Inka y'imbyeyi iri kumwe n'akanyana ko yabyaye, inka iri mu kiraro iri kurigurisha ubwatsi, akanyana kari hanze inka iri imbere mu kiraro.

Ihene iri hanze iziritse hafi y'urutoki iri kurisha mu byatsi, iruhande rwaho hari umurima uteyemo ibitoki, hari n'ibyatsi by'imicaca, harimo n'akayira, n'ibyatsi by'ibigori byumye.

Umushinga wo korora inkoko urunguka cyane, kuko iyo wazoroye ukazubakira neza, ukazigaburira, akaziha n'amazi zitanga umusaruro mwiza. Izi ni inkoko, harimo inkokazi, harimo n'amasake, zorowe mu buryo bwiza cyane.

Umudugudu wo mu cyaro, urugo rw'umuturage uhetse umwana umutwikije n'agatambaro, ahagaze iruhande rw'ihene ziri kuri kurisha ebyiri, ziziritse. Iruhande rwazo hari ibiti bashingiriza ibishyimbo.

Akarima k'igikoni kubatse neza karimo imboga za dodo, kubakishijwe ibiti n'umufuka, imbere yako hari abantu babiri bari kureba imboga, iruhande rwabo hari insina nziza ziteye ku murongo.

Inyanya zihinze mu buryo bwa kijyambere, zimwe ziratukuye izindi ntago ziratukura, zifite umusaruro mwiza cyane ku buryo buri runyanya rwagiye rwera inyanya esheshatu nziza kandi zibyibushye.